Abangaba ni bamwe mu bayobozi b'ikigo cya rura gishinzwe ingendo zo mu Rwanda; ahantu haba hava abantu bajya ahandi, bashyiraho amategeko y'ibiciro byo kugenda. Abangaba ni bo babidufashamo babidukorera.

Umwe mu bayobozi bahagarariye ikigo runaka cyangwa se ishami runaka arimo aganiriza abandi bantu bagiye batandukanye cyangwa se abandi abayobozi bagenzi be ukuntu, bakomeza kwagura ibikorwa no guhanga udushya mu byo bakora bakarushaho guterimbere.

Uru nguru ni urubyiruko rw'igihugu, rwari ruri mu itorero bakomeza biga amahame y'intore ndetse biga indangagaciro na kirazira kugira ngo barusheho gukomeza kuba abanyarwanda beza.

Aba ngaba ni abayobozi bo mu nzego zitandukanye, hakaba barimo mu nteko y'inama, bagenda biga ku mishinga itandukanye, ukuntu bakangura ibikorwa bakora kandi bagakomeza no gusigasira ibyo bagezeho, ntibisubire inyuma ahubwo bikomeze byaguke.

Bamwe mu bayobozi bahagarariye ibyiciro bitandukanye barimo bariga ku mi byinshi bitandukanye bakandika ingingo z'ingenzi uko basigasira ibyo bagezeho n'uko bakomeza kurema udushya mu bindi bagiye bakora.

Uru ni urubyiruko rutandukanye ruba ruri kuganirizwa ku mishinga igiye itandukanye bafite za mudasobwa bagenda bareberaho ukuntu hirya no hino bimeze bafite imitobe bagenda basomaho bica akanyota barushaho kwagura ibitekerezo.

Aha ngaha bashobora kuba bari mu itorero bari kumwe n'ingabo y'igihugu, bagenda baganira ku bintu baganirizwa ku bintu byakomeza gutuma bagira indangagaciro na kirazira, ndetse bakarushaho gukomeza gutera imbere no guteza igihugu imbere.

Aba ngaba ni abayobozi bahagarariye ibyiciro bigiye bitandukanye cyangwa se imishinga itandukanye, baba bari mu nteko y'inama biga ku buryo bakomeza kwagura ibikorwa bakora cyangwa se guteza imbere aho bagiye bahagarariye hagiye hatandukanye.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye, abari mu nama bari no gukoresha za mudasobwa, bandika ingingo z'ingenzi zigiye zigezweho, biga ku mishinga myinshi igiye itandukanye, ukuntu yakomeza kwaguka no gukomeza kurushaho gutera imbere.

Ikimba kiza kiberamo inama zitandukanye aha ngaha hari kubera inteko y'inama y'abayobozi cyangwa se abakuru b'ibigo b'ingeri zigiye zitandukanye, abanyamahanga, abanyarwanda bakomeza biga ku bintu byatuma barushaho kwagura ibikorwa.

Kigali yacu, Kigali nziza, Kigali icyeye, aha ngaha abayobozi b'umujyi wa Kigali baba bagenda baganira ku bintu byatuma Kigali irushaho gukomeza gutera imbere ndetse no kwaguka muri byose, ikagaragara neza ku ruhando mpuzamahanga.

Bamwe mu bayobozi b'ibigo bitanga ubwishingizi uramutse ukeneye ubwishingizi butandukanye, aha ngaha ni ho ushobora kuza gufata ubwishingizi kugira ngo ejo cyangwa ejobundi niharamuka habaye ibibazo bitunguranye cyangwa impanuka, uzamenya ko ufite umuntu ukuri inyuma wo kugufasha.

Bamwe mu bakozi b'ibigo bigiye bitandukanye bivanzemo n'abanyamahanga barimo baraganira bareba ukuntu bakagura imishinga cyangwa se no mu mishinga bakora cyangwa se ibigo bahagarariye bashyiramo utundi dushya.

Abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye b'inzego zitandukanye, abanyarwanda abanyamahanga, bashobora kuba batanga ubwishingizi butandukanye, ku buryo uramutse ukeneye ubwishingizi, abahagarariye ibigo bitanga ubwishingizi ubundi bukakugeraho.

Urunguru ni urubyiruko ruri mu itorero bakomeza bigishwa indangagaciro na kirazira bigishwa amateka y'igihugu atandukanye babigisha ukuntu bakomeza gukorera hamwe ndetse no gusigasira ubumwe bw'igihugu.

Bari kuganira ku ngingo z'ingenzi zigiye zitandukanye ukuntu bakomeza kwagura ibikorwa ndetse no gukomeza guhanga udushya mu mirimo bagiye bakora kugira ngo bakomeze gusigasira ibyo bagezeho bagure n'ibindi bakomeze gutera imbere.

Aba ngaba ni abayobozi bagiye batandukanye ,bahagarariye imishinga itandukanye cyangwa se ibigo runaka, baba bicaye bari kujya inama ku buryo bakomeza kwagura ibikorwa bakora bagashyiramo n'indi mishinga igiye itandukanye.

Urubyiruko rwari ruri mu itorero ruba ruganirizwa ku bintu byinshi bitandukanye ko bakomeza gusigasira ubumwe, ko bakomeza kugira indangagaciro na kirazira mbega baganirizwa ku bintu byinshi byatuma batera imbere kandi bakoreye hamwe.

Mu mujyi wa Kigali aha ngaha baba bari kigali yacu Kigali icyeye, baganira ku bintu byatuma Kigali ikomeza kuba nziza ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kigakomeza kubaza kiza, Kigali yacu ikeye ku ruhando mpuzamahanga.

Aba ni abayobozi batandukanye bari mu nama, hari igihe bagira gutya bakaza bagashyiraho akaririmbo ko kubasusurutsa kugira ngo babanze baruhuke mu mutwe ubundi bakarimba akaribo k'intore bakabona gukomeza inama.

Aba ni bamwe mu bayobozi b'inzego zigiye zitandukanye baba barimo baraganira ku bintu byinshi bibafitiye umumaro imbere yabo haba hateretse amazi y'amasoko meza kugira ngo bagende bamanura n'akanyota gake gake.

Bamwe bamwe mu bakozi b'ikigo kigiye gitandukanye barimo bafata ishusho bishimira ibyo bagezeho, ikingiki akaba ari ikigo gitanga ubwishingizi mu gihe ukeneye ubwishingizi ushobora nawe kubwakira.

Umuntu urimo aganiriza abandi ku ngingo z'ingenzi zigiye zitandukanye, uburyo bakomeza inzizi zabo kugira ngo babashe kugira ibyo bageraho ndetse bagire n'ibyo birinda mu rwego rwo kugira ngo batere imbere.

Uyu ni umuyobozi uhagaze imbere y'ingeri zitandukanye baganira yaba ari ku myidagaduro cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye byatuma bakomeza gutera imbere no guteza igihugu imbere.

Iri ngiri ni ihuriro ry'abantu batandukanye bahagarariye imishinga igiye itandukanye bafite n'amakarita y'akazi, baba bahuye bagakora inama bitewe n'ibyo bakeneye kwigaho bakabireba bakabyigaho kugira ngo bizakomeze gutera imbere.

Izi ni ingeri zigiye zitandukanye, aho barimo baraganira, bari mu nama igiye itandukanye biga ku bintu byinshi, ku mishinga ukuntu bakoramo utundi dushya mu byo bakora, ukuntu basigasira ibyagezweho, n'ukuntu bakongera gutera imbere.

Aba ngaba ni abayobozi b'ingeri zitandukanye baba barimo barandika ku byo barimo baravugaho kugira baze kurushaho kumenya ibyo bavuze ndetse barushaho gusigasira ibyo bakeneye kugeraho mu buryo bwabo.

Abakozi b'ingeri zitandukanye babafite indangururamajwi imbere yabo kugira ngo babashe kugenda bavuga bumvikana ndetse bafite n'umuti wo gusiga ku ntoki kugira ngo bice udukoko niba hari mu gihe cy'icyorezo bagende birinda.

Zigiye zitandukanye, baba bari kugira ibyo basobanurana, imishinga uko ikorwa kuri mudasobwa, ndetse no kuri murandasi, kugira ngo babashe gukomeza guhanga udushya, ndetse no kwagura ibikorwa bagiye bakora.

Uru ni urubyirukoba ruri kwiga ku bintu byinshi bitandukanye byakomeza kurugirira umumaro, bikarufasha kuba rwarushaho kwagura imitekerereze yarwo no gukomeza kugira indangagaciro no gutera imbere.

Aba ngaba ni bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye, baba bari kuganiriza abandi bungurana ibitekerezo ku buryo bakomeza kwagura imishinga igiye itandukanye, ndetse no gukomeza kurema utundi dushya dutandukanye twabagirira umumaro.

Ikigo cy'imisoro ahangaha baravuga bati ishyura cyangwa se wandikishe imisoro y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu, usura urubuga rwabo ubundi ukandika aho kwishyura ukareba ugashyiramo imibare banga.

Umunara udufasha mu itumanaho, mu gihe abantu barimo barakora itumanaho rigiye ritandukanye kugira ngo barusheho kwagura ibikorwa byabo babakorera akazi kuri za mudasobwa, abandi bareba amakuru ari hirya no hino agiye atandukanye ku isi.

Uyu nguyu ni umunara udufasha mu itumanaho mu gihe abantu barimo barakoresha za murandasi cyangwa se imboga zigiye zitandukanye, nibakomeza kuvugana mu buryo butandukanye bikomeze kugenda neza bitagenda bicikagurika.

Kudufasha mu itumanaho kugira ngo habeho kugenda neza mu gihe abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye mu gihe abantu bari gukoresha za murandasi mu gihe abantu bari kureba amakuru ko nsakaza amashusho agiye atandukanye bigendade neza bidacikagurika.

Kurubuga rw' irembo bari kukwereka serivisi zikunze gusabwa kuri uru rubuga icyemezo cy'amavuko icyemezo cyo kuba warashyingiwe kwiyandikisha ku ruhushya rw'agateganyo no kwishyura konterivasiyo.

Abakozi ba banki bagufasha gahunda zi zitandukanye kubitsa amafaranga, kubikura amafaranga, gufunguza konti no gukora izindi gahunda zigiye zitandukanye zijyanye na banki ahangaha uyu nguyu aragufasha.

Iki ni ikigo cy'imisoro n'amahoro iyi ngiyi ni intambwe ya kane y'uburyo wabikoramo .Aha ngaha usura urubuga rw'irembo ubundi ugakurikiza amabwiriza bitewe n'ibyo ushaka gukora.

Aba ni bamwe mu batumirwa bari batumiwe kugira batange ibiganiro ku by'ingenzi mu misoro iri kuvugwa muri iyi minsi, akaba ari babiri tukabona mo Batamuriza na Mbera baba bari kugira ngo batuganize banaduhugure.

Bati menyekanisha ipatanti y'umwaka wose ya bi makumyabiri nagatanu cyangwa y' igihehembwe cya mbere uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu n'imwe z'ukwambere bibiri na gatanu usura urubuga rwacu nguru ubundi ugakurikiza ibisabwa.

Hari ibikorwa by'irembo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye hamutse ukeneye kubakohereza impapuro zo mu ntoki zivuye ku irembo ahaha byose babigufasha ukabona n'ahantu ho gushyira imyanda yabugenewe uka washyiramo kugira ngo barusheho gukomeza kugira isuku.

Itangazo berekana iminsi y'ikiruhuko rusange, Bakavuga, ati hashingiwe ku iteka rya perezida nimero iyi n'iyi, ryo ku itariki izi n'ize ryerekeye y'ikiruhuko rusange. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, iributsa abaturarwanda ibi bikurikira, ukagenda ubishoroma.

Ngirango ngo hasigaye iminsi icumi ukishyura imisoro, ku itariki ntarengwa abari mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane, usabwa kwishyura mbere y'itariki ntarengwa itaragera kugira ngo hajyeho ibihano.

Uyu ni umuntu udufasha mu itumanaho, mu gihe abantu barimo bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, mu gihe abantu barimo barahamagarana umwe aherereye kure yundi, kugira ngo birusheho gukomeza kugenda bidacikagurika bikomeze bigende neza.

Aya ngaya ni amakipe y'amafatanyabikorwa n'u Rwanda, tubona amakipe agiye atandukanye, akenshi amwe akina yambaye sura u Rwanda. Bamwe mu bakinnyi baraza bagasura igihugu cyacu cy'u Rwanda, natwe u Rwanda rugakomeza gutera imbere ku ruhando mpuzamahanga.

Aba ngaba ni abanyeshuri barimo bariga ibintu bigiye bitandukanye, biga bafite za mudasobwa bareba kuri za murandasi bakomeza kwagura ibitekerezo byabo, bareba amakuru ari hirya no hino ku isi, bakomeza bagura ubumenyi.

Uyu nguyu ni umunara udufasha mu buryo bw'itumanaho, mu gihe abantu bakoresha imbuga zigiye zitandukanye bakoreraho akazi kabo, mu gihe abantu bahamagara abandi batari ahantu hamwe bari ahantu hagiye hatandukanye, iminara idufasha ngo ibi byose bigende bidacikaguririka.

Uyu ni umunara udufasha mu gukora icyo bita itumanaho ,kugira ngo abantu babashe gutumanaho aho baba bahereye hose cyangwa se bari gukoresha za murandasi na za mudasobwa, n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye bikomeza kugenda neza bidacikagurika.

Aya yari amabwiriza y'ibijyanye no gukoresha ikoranabuhanga mu rwego rwo kurwanya corona virusi, cyari icyorezo agomba kuba yambaye uturindantoki kandi n'agapfukamunwa. Ibi ngibi yagombaga kubikurikiza n'ibi byose bigiye bikurikira.

Kwakira ikiganiro cy ikigo k'imisoro n'amahoro. Tariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ni tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane. Ikiganiro uba uri kugikurikira ku nsanganyamajwi itugezaho.

Amaduka wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'ibikoresho byo mu ngo, ibikoresho by'isuku wakifashisha urimo urafura imyenda, amabase, ibintu bikora isuku n'imyambaro igiye itandukanye aha ngaha hari amaduka menshi wahahiramo.

Icupa rya gazi mu ngo aha bahitamo icupa bitewe na gaze ukenera, kandi ugenzure ko barigejejeho rihagaze kandi ritarangiritse. Ubu ngubu ni uburyo wakoresha ugiye kugura gaze.

Ni muhanda mwiza urimo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, tukaba tubona ibishinzwe gufata amashusho yo mu muhanda kugira ngo umutekano ukomeze kuba wizewe, n'ibyapa bitwereka ko hatagomba guhagararwa umwanya munini ndetse n'umuto.

Aya ngaya ni amapoto anyuraho insinga z'amashanyarazi zigiye zijya mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu kugira ngo abanyarwanda bose umuriro ukomeze kubageraho ndetse n'iterambere bakomeze kuryishimira, riba riri mu gihugu.

Ndareba ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye, yaba amapoto ajyana insinga z'amashanyarazi mu mazu, haba harimo ibyo bikorwa remezo ukabona isoko rya Simba ushobora kujya guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye, yaba ibyo kurya by'ubwoko bwose ndetse n'ibyo kunywa.

Amashanyarazi kugira ngo, ingo zose ziri hano zibashe kugerwaho n'umuriro, amapoto y'amashanyarazi adufasha kohereza amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye henshi mu gihugu, u Rwanda rukomeze rubeho rufite urumuriro kandi rukeye.

Imiyoboro y'amashanyarazi inyuramo insinga z'amashanyarazi zigiye zitandukanye kugira ingo nyinshi zibashe kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi u rwanda rukomeze kwaguka kandi rukomeze kurushaho gutera imbere mu kubona.

Iyi ngiyi ni ipoto y'amashanyarazi iri imbere y'icyapa kigaragaza ukuntu ibiciro bigiye bihagaze byo kuri nyiramugengeri na za esansi n'ipoto y'amashanyarazi ituma amashanyarazi agera ku baturage.

Aha turabona umwe mu bakozi bashinzwe gukora isuku yo mu muhanda, kugira ngo u Rwanda rurusheho kubaho runogeye, rufite isuku. Kigali nziza, Kigali yacu, Kigali ikeyeye; ahangaha ni mu gakiriro ka Gisozi.

Iki ni icyuma cy'umuyoboro w'insinga z'amashanyarazi, insinga z'amashanyarazi zicaho zigiye mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu kugira ngo umuriro ukomeze ugere ku baturage babashe kubaho mu gihugu gikeye kandi gifite urumuri.

Umuhanda urimo amapoto y'amashanyarazi hakaba harimo n'icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, umuzenguruko utukura ndetse ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara kinyujijemo akarongo kaberanye, ibyapa binyujijemo akarongo kaberamye, ibyo byerekezo byose by'imihanda ntabwo biba byemewe kugendwamo.

Aya ngaya ni amapoto y'amashanyarazi, kugira ngo abashe kugerwaho umuriro mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu, ubundi u Rwanda rurusheho gukomeza gutera imbere ku ruhando mpuzamahanga n'abarubonye bose.

Aya ngaya ni amapoto anyuraho insinga z'amashanyarazi, amapota aba ari umuyoboro w'insinga kugira ngo zigende zambukiranya ahantu hamwe n'ahandi ubundi abaturage bakomezaze kugerwaho n'amashanyarazi, u Rwanda rukomeze kurushaho kugenda rutera imbere.

Amashanyarazi ajya aho amashanyarazi ajya ajya mu miyoboro igiye itandukanye, kugira ngo u Rwanda rurusheho kunogerwa n'iterambere rirambye ndetse n'abaturage bishimire ko bagenda babona umuriro iterambere rigenda ribageraho.

Aha ngaha turareba ikinyabiziga gitwara imizigo ndetse n'icyapa kigaragaza ahantu umuhanda wigiye hejuru, tukareba ipoto y'amashanyarazi ijyana umuriro mu ngo zigiye zitandukanye kugira ngo abantu barusheho gutera imbere.

Amashanyarazi, kugira ngo idufashe uburyo ingo zituriye ahafi, ndetse idufashe guhererekanya amashanyarazi, insinga z'amashanyarazi zigenda zikomeza zigera kure, zigera kurindi poto kugirango u Rwanda rwose rubashe kugerwaho n'umuriro.

Hanyura umuyoboro w'amashanyarazi kugira ngo bamenye ko niba muri aka gace bigenze nabi umuriro baze bareberamo hano uko ikibazo kimeze ubundi ababishinzwe kujya kubona ukabona barongeye barabikoze biratse.

Ahangaha ni Nyabugogo hagomba kuba haba hari ibinyabiziga by'amoko menshi atandukanye, urujya n'uruza rw'abantu bagiye gushaka amafaranga, bagiye gushaka imibereho niyo mpamvu ubona aba ari benshi.

Ibi ngibi ni ibyuma binyuraho insinga z'amashanyarazi zambukiranya zigenda, zijya muce zigiye zitandukanye nyinshi z'igihugu. Aha ngaha nuhagera uzirinde kuhegera kugira ngo utaza kwikururira ibyago bitandukanye.

Iri ngiri ni ipoto ry'amashanyarazi, haba hariho insinga nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo umuriro ubashe kugera hose kandi kuri bose, igihugu kirusheho gukomeza gutera imbere n'abaturage bakomeze kwaguka mu gutera imbere.

Ibi ngibi ni ibitaro aha ngaha tukaba tureba imbangukiragutabara, imbangukiragutabara idufasha mu gihe habayeho impanuka itunguranye, ubundi igahita ihagera ikaba yagufata ikakuzana ku ivuriro hakiri kare.

Iri ngiri ni ivuriro, bikaba ari ibitaro byiza biherereye ahantu hatandukanye ushobora kuza kwivurizamo mu gihe wumva ubuzima bwawe butarimo bugenda neza, kugira ngo wongere busubire ku murongo muzima.

Iki ngiki ni ikigonderabuzima cyangwa se ibitaro bya Muhima, ahangaha mu gihe waba ukeneye kwivuza, cyangwa se ufite undi muntu waje kuhivuriza uharwariye, ushobora kuza kumusura, nawe mu gihe waba ukeneye kwivuza waza ukahifuriza bakagufasha.

Aha ngaha ni ku ivuriro, haba hari abantu benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, aha ni Kibagabaga, ushobora kuba utameze neza, arwaye, turabona abaryamye, baba bumva bameze nabi, abantu baba bicaye ku murongo, uwaje mbere abanza, ukurikiyeho.

Aha ngaha ni ku ivuriro ushobora kujya wumva ubuzima bwawe butameze neza, aha ngaha ni ho hantu ujya wumva wihebye wumva utazi ukuntu ibintu bimeze, bakagusubiza icyizere cy'ubuzima, ukongera ugataha umeze neza.

Iki ngiki n'ikigo nderabuzima mu gihe waba ushaka kwivuza wumva ubuzima bwawe butameze neza, ushobora kuba waza ukahivuriza ubundi ubuzima bugakomeza kugenda neza mu buryo bugiye butandukanye.

Iki ni ikigo nderabuzima, Minisiteri y'ubuzima, akarere ka Nyarugenge, ibitaro bya Muhima .Uramutse utuye ku Muhima ukeneye ubuvuzi ukajya kuri bino bitaro bya Muhima n'ahandi hose waba uturutse bakwakira.

Aha ngaha ni ku bitaro bya Masaka tukaba tubona abavuzi b'ingeri zose abanyamahanga, abanyarwanda, n'abaturage bagiye batandukanye, ndetse n'abashinzwe gukoramo amasuku aha ngaha mu gihe wumva ubuzima butameze neza wajyayo.

Uyu nguyu ni umuyobozi mukuru w'igihugu nyakubahwa arimo aratanga ijambo aganiriza abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, ashobora kuba ari kuganiriza abandi bayobozi cyangwa se ari kuganiriza urubyiruko, ariko aha ngaha arimo araganiriza abayobozi.

Iyi ni gereza tukaba turebamo n'imfungwa cyangwa se abagororwa, baba bari mu mirimo itandukanye yabo ya buri munsi, abagiye kuvoma abagiye mu bindi bikorwa bitandukanye, barubaka, mbega barabagorora ku rwego rwiza.

Uyu ni umucamanza, ahantu muzahurira ni mu rukiko mu gihe urimo uraregwa cyangwa se urashinjwa ibintu bigiye bitandukanye, aba afite n'abakuburanira ukaburana mu gihe wabonye ibimenyetso byagaragaye n'ibindi bitandukanye uyu nguyu ni we ugucira urubanza.

Aba ngaba ni bamwe mu bayobozi baba ari bashya bagiyeho bari kurahira bafashe ku ibendera ry'igihugu ubundi bakavuga imigabo n'imigambi ibyo bazageza ku banyarwanda kugira ngo bazabisigasire kandi bazabigereho.

Iyi ngiyi ni Polisi y'u Rwanda iri kumwe n'umugabo ukekwaho ibyaha bye bitandukanye, uyu mugabo azwi ku izina rya Fatakumavuta, arimo arashinjwa cyangwa se akekwaho ibyaha bigiye bitandukanye, bagiye kureba uko bimeze niba ibi byaha bimuhama.

Ibi ni ibitaro bya polisi ya Kacyiru aha ngaha, abapolisi bashobora kuba ariho bavurira cyangwa se bakabavurira bitewe n'ibibazo baba bafite bitandukanye, ni ho bavurirwa, ni ho gahunda zabo zigenda zibera.

Iki ni ikigo cya polisi cyo ku Muhima, aha ngaha hakorerwa ibikorwa byinshi bigiye bitandukanyeye, abakora impushya z'agateganyo zo gutwara ibinyabiziga kuri mudasobwa, aha ngaha barahakorera nawe uramutse ubikeneye wahakorera.

Ibingibi ni ibikoresho byifashishwa mu gihe cyo guhangana n'inkongi y'umuriro, uramutse ahantu hateye inkongi y'umuriro iki gikoresho gihari wakiyifashisha mu gihe uba utegereje ko haza ubufasha bwagutse bukagufasha.

Ibyifashishwa babasha guhangana n'inkongi y'umuriro mu gihe ahantu ni hatewe n'inkongi y'umuriro hari ibi bikoresho, uzamenya ko ugomba kubyifashisha uhangana n'iyo nkongi mu gihe utegereje ubufasha bukuru bwo kukugeraho.

Iyi ngiyi ni polisi y'igihugu, aha ngaha iba iri mu nshingano zayo zo kurinda umutekano kugira ngo ukomeze ube wizewe nta muntu ubangamira undi cyangwa se nta bikorwa bibangamira ibindi, abantu bakomeze kubana mu mahoro.

Ibi ni binyabiziga ndetse na bamwe mu bakozi babishinzwe guhangana n'inkongi y'umuriro; aha ngaha, aba ni bo uzasanga mu gihe uri kubona ahantu hari inkongi y'umuriro ikomeye cyane, ni bo uzasanga baje guhangana na yo.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, aba ngaba ni bo uzasanga bashinzwe imigendere, ndetse n'umutekano wo mu muhanda, bazaguhagarika bari kukubaza niba ufite ibyangombwa, bikwemerera kugenda mu muhanda, cyangwa se ikinyabiziga, cyawe nta makosa kirimo.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu gihe bahanganye n'inkongi y'umuriro, igihano hateye inkongi y'umuriro igiye itandukanye, igikoresho ushobora nawe gufata ukacyifashisha ukaba wahangana n'inkongi y'umuriro.

Umuyobozi wa leta ashobora kuba ahagaze ategereje ikinyabiziga kiza kikamujyana mu kazi ke kagiye gatandukanye cyangwa se akaba ari mu nshingano ze zitandukanye ntabwo uba wemerewe kumusagarira no kumuvogera n'ibindi bitandukanye.

Gukorera ikizami cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, uru nguru ni uruhushya rwa burundu rw'amapikipiki, aha ngaha iyo umupolisi azamuye igikumwe, uba utsinze ubundi ugakomeza indi ntambwe, cyangwa se yaba ari yo ntambwe yanyuma ugezeho, uruhushya rwawe ukaba urarutsindiye.

Iki ni ikinyabiziga cya polisi y'igihugu, iki ngiki gicana amatara agiye atandukanye y'impuruza, iki ngiki nacyo iyo ukibonye uba ugomba kugiha inzira, kiba kiri mu kazi gishinzwe.

Aba ngaba ni bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye ba Leta, bari kuganiriza abantu cyangwa se biga ku bintu bitandukanye, ubumwe n'ubudaheranwa, bashobora kuba bakugira uburyo wagira ubumwe n'abandi, cyangwa se kudaheranwa n'ibintu bigiye bitandukanye.

Iri ngiri ni ishyaka ry'icyatsi ryari rihagarariwe n'umuyobozi bita Filipe, arimo ariyamamaza kugira ngo arebe ko yazatsinda amatora ariko siko byaje kugenda, ntabwo yaje gutsinda uwatsinze ntago ari we.

Hari mu gikorwa cyo kwamamaza, uyu nguyu akaba ari Umudugudu wa Radari, bariho bati tuzamutora ijana ku ijana. Kandi koko ntabwo bamutengushye, baramutoye ijana ku ijana, kuko yaratsinze kandi yatsindiye ku manota meza.

Zimwe mu nzego zigiye zitandukanye, bakaba bari kwiga ku mishinga itandukanye, yatuma bakomeza kwagura ibyo bakora ndetse bareba ukuntu igihugu na cyo, cyakomeza gutera imbere muri byose.

Iri ngirir ni ishyaka rya FPR barimo bararyamamaza, bamamaza urihagarariye kugira ngo arebe niba yatsinda igihe hazaba habaye amatora, gusa iri shyaka ni ryo ryatsinze cyane ryagize amajwi menshi, ni ryo ryavuyemo n'abayobozi benshi.

Umukuru wari uw'igihugu w 'ahambere yari arimo ariyamamaza kugira ngo amatora azakurikiraho azabashe kureba niba yatsinda, gusa yarihagarariye ishyaka rya FPR n'ubundi nyuma y'amatora amajwi yabonetse niwe wagize menshi niwe watsinze

Iri ni ishyaka ryambara ubururu, umweru ndetse n'umutuku, rikaba ryari rifite urihagarariye yari n'ubundi umukuru w'igihugu wo hambere, akaba yari arimo yiyamamaza kugira ngo arebe niba azongera agatsinda amatora azaba akurikiye, gusa n'ubundi yaje gutsinda.

Uyunguyu ni umwe mu bayobozi twemera bamwita Louise Mushikiwacu ni ymu minisitiri mwiza aganiriza urubyiruko neza urubyiruko turamukunda ubu yabaye mama w'abashu twese nta muntu utamukunda.

Arabwira ati tora uyu nguyu yari umuyobozi uhagarariye ishyaka ry'icyatsi, yarimo ariyamamaza avuga imigabo n'imigambi yiwe azageza ku baturage, kugira arebe ko yazatorwa ariko...

Kwamamaza umuyobozi ugomba kuzayobora igihugu iri ni ishyaka ryitwa FPR, ryarimo ryamamaza umuyobozi waryo kugira ngo arebe ko azatorwa gusa n'ubundi niwe watsinze kuko amajwi yabonetse niwe wagize menshi.

Uyunguyu ni umuyobozi w'ishyaka ry'icyatsi witwa Habineza Frank yararimo ariyamamaza, agenda asuhuza abana avuga imigabo n'imigambi azageza ku banyarwanda ariko n'ubundi amatora nyuma y'uko yabaye amajwi yasohotsemo ntago yatsinze.

Aha ngaha turareba ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, tukareba ikinyabiziga kinini gitwara imizigo, amatoni menshi aremereye ndetse na bisi nini zitwara abagenzi, bagiye mu kazi kabo ka buri munsi ndetse n'igare ritwaye umuzigo barimo bararisunika.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo myinshi igiye itandukanye, aha ngaha ushobora kugura nk'amakara, imifuka myinshi cyane nk'imifuka magana arindwi cyangwa angahe, iki ngiki kiragutwaza, hakaba n'amapikipiki adufasha mu ngendo zacu za buri munsi.

Ikinyabiziga kinini, kidufasha gutwara imizigo y'ubwoko bugiye butandukanye, akenshi kidufasha gutwara imizigo mu gihe hari kubaho ibikorwa by'ubwubatsi, iki ngiki ntabwo gitwara imizigo y'imiceri n'ibindi. Iki gitwara iby'ubwubatsi.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kinini cyo mu bwoko bw'ibinyabiziga bidufasha gutwara imizigo myinshi iremereye, iki ngiki akenshi ibinyabiziga by'ubu bwoko bidufasha mu gihe ahantu hakenerwa cyangwa hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi bikadutwaza nk'amabuye ,imisenyi ,ubutaka n'ibindi bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ihuriro ry'ibinyabiziga bitandukanye, amapikipiki, amagare, ibinyabiziga by'ibinyamitende bitwaye imizigo, amatungo agiye atandukanye, kugira ngo barushaho gushaka amafaranga.

Iki ni ikinyabiziga gitwara imizigo myinshi igiye itandukanye, kandi iremereye, uramutse ufite imizigo yawe wahashye cyagutwaza, gishobora kuba aricyo kizana iyi mifuka y'amakara kuko kizana imizigo igiye itandukanye.

Iki ni ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi, zidufasha gutwara abantu mu ngendo zacu za buri munsi. Turazifashisha tugiye mu kazi, tugiye ahantu hagiye hatandukanye, tuba twifuza gukorera ibikorwa byacu bitandukanye. Ndetse n'igare ritwara abantu.

Ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bareba ibinyabiziga by'amagare biriho abantu bari kujya mu kazi kabo cyangwag se no mu zindi gahunda zabo zitandukanye za buri munsi.

Aka ni akanyamizigo gasunikwa, kajyaho imizigo mikeya ishoboka kuko ugatwara agenda ahagaze agasunika n'amaboko, tukaba tubona n'ahantu hajyamo imyanda kugira ngo umujyi ukomeze kuba ufite isuku, ufite ikintu ubona ari umwanda uba ugomba kugishyiramo hano, ahabugenewe.

Ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo myinshi igiye itandukanye, aha ngaha barimo bashyira imizigo ijyanye n'ibyuma kugira ngo niba hari uwabihashye akeneye gukora ibikorwa bye by'ubwubatsi, ikinyabiziga kimutwaze kimugerezeyo, iki ni ikinyabiziga kigufasha gutwara imizigo igiye itandukanye.

Iki ni ikinyabiziga kinini gitwara imizigo myinshi kandi iremereye cyane y'ubwoko butandukanye, imisenyi, amabuye, iki ngiki kidufasha mu gihe hari ahantu hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi bigiye bitandukanye.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kinini gitwara imizigo myinshi igiye itandukanye, amatoni menshi aremereye, akenshi, ibinyabiziga bidufasha gutwara imizigo, ahantu harimo habera ibikorwa by'ubwubatsi, tukareba n'igare ritwaye umugenzi.

Ikinyabiziga gitwara imizigo myinshi yo ku rwego rugiye rutandukanye, iki ngiki kizagufasha gutwara ibikoresho by'ubwubatsi birimo ibyuma n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, waba uri umucuruzi uranguye cyangwa se nawe ubicuruza.

Ikingiki ni ikinyabiziga cya bisi kidufasha gutwara abantu bagiye ahantu hagiye hatandukanye b'ingeri zose kugira ngo ingendo zikomeze kunozwa mu gihugu kandi turusheho gutera imbere.

Ikinyabiziga kigirwamo cyangwa se kigisha gutwara ibinyabiziga, iki ngiki ni ikinyabiziga bigiramo gutwara ibinyabiziga, hariho ibimenyetso bibiranga, aha ngaha barakubwira ngo gutsinda ni yo ntego yacu, uramutse ushaka kwiga ikinyabiziga ugatsinda aha wahigira.

Iki ni ikinyabiziga kinini gitwara imizigo y'amatoni menshi agiye atandukanye kandi afite uburemere bwinshi, iki ngiki kikaba gishobora gutwara imizigo ivuye mu gihugu kimwe ijya mu kindi gihugu.

Umukozi ushinzwe isuku ahangaha aba ari bari mu isuku igiye itandukanye kugira ngo u Rwanda rukomeze kurushaho gusa neza kandi rurushijeho kuba rukeye no ku ruhando mpuzamahanga n'uwareba wese kuburyo yavuga ati "u Rwanda ruba rufite isuku".

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, ibinyabiziga bigendamwo abantu mu kazi gasanzwe bidatwara imizigo, amapikipiki atwara imizigo, n'ikinyabiziga kigenda gikora akazi, kigenda kivanga, ibikoresho by'ubwubatsi.

Ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo myinshi iremereye, ku buryo bwinshi cyane, uramutse uri umucuruzi ukeneye kurangura, ushobora kurangura imizigo yawe myinshi, ubundi iki ngiki ukagihamagara, kikaba cyagutwaza, kikakugerezayo.

Igkamyoi kidufasha gutwara imizigo yigihan hagiye hatandukanye n'iki kidufasha gutwara amazi mu gihe amazi akenewe ahantu runaka barimo barubaka barimo barakora ibikorwa remezo bitandukanye bigitwara amazi.

Iki ni ikinyabiziga cya minibisi kidufasha gutwara abagenzi bakeya baringaniye mu nce zimwe na zimwe z'igihugu zigiye zitandukanye kugira ngo bage mu kazi kabo ka buri munsi barusheho gukomeza kwiteza imbere.

Iki ni ikinyabiziga kinini cyo mu bwoko bwa bisi zishobora kuba ari na zo zambukiranya imipaka, zidufasha mu ngendo zacu za buri munsi ku bantu bakora ingendo zambukiranya imipaka buri munsi. Tukabona n'ibinyabiziga bitoya bindi bidufasha na byo gutwara abagenzi.

Ikinyabiziga kinini cya bisi nini zidufasha gutwara abagenzi bagiye bagiye ahantu hatandukanye mu nce z'igihugu kugira byabasha kunoza imirimo yabo bakora ya buri munsi n'akazi kabo.

Ibi ngibi ni binyabiziga bitandukanye; tuba tureba amagare, atwara abagenzi na bo mu rugendo rugufi, rutarimo ahaterera kuko amagare ntaterera. Tukaba tureba ikinyabiziga gitwara imizigo itandukanye, gishobora kugutwaza imizigo, yaba uranguye cyangwa uri mucuruzi.

Ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye bigendera mu muhanda ubona ikinyabiziga kidufasha gutwara abagenzi ndetse n'amapikipiki adufasha gutwara abagenzi n'abagenzi bagendera mu nzira y'abanyamaguru bisanzwe kugira habeho ingendo zacu za buri munsi.

Imizigo myinshi igiye itandukanye gusa iki kinyabiziga kidufasha gutwara imizigo ahantu hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi gitwara amabuye, n'imisenyi, ibitaka n'ibindi bigiye bitandukanye ahantu hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye amapikipiki atwara abagenzi n'utunyamitende dutwara imizigo mikeya iringaniye uramutse ukeneye uko utwara imizigo utu tunyamitende turagutwaza tukakugerezayo neza.

Ni ibinyabiziga biri mu muhanda bigiye bitandukanye tukabonamo amapikipiki atwaye abagenzi ndetse n'amagare agiye ariho imizigo mito, tukabona n'ikinyamitende cy'ibiziga bitatu bidufasha gutwara imizigo kiyivana ahantu hamwe kiyijyanye ahandi.

Aho wakwishimira kuza kuganirira n'umukunzi wawe mwakwifuza kuza n'inshuti zanyu mukajya kuri za mudasobwa mugakoresha murandasi yaho iba igenda neza kandi nta rusaku kuko hano ibinyabiziga ntabwo biba byemewe kuhanyura.

Aha ahangaha ni ahantu heza mu mujyi wa Kigali hariho ihuriro ry'amabendera y'ibihugu bitandukanye mpuzamahanga ushobora kuzana abana bawe bakishimana n'abandi bagakina ubundi bakanezerwa.

Aha ngaha ni ahantu heza ho kuruhukira, nta rusaku utuje, hari utuzu twiza waba wiyicariyemo, ni ahantu wakicara uri kugananira n'inshuti yawe muri gukoresha za murandasi, muri kugenda mwisanzuye kuko ibinyabiziga ntabwo bihanyura.

Ahantu habera imyidagaduro igiye itandukanye, abantu bakora siporo ya nimugoroba bagenda bakihuka bakaruhura umubiri, ndetse n'ibitekerezo, bagakora imyitozo ngororangingo aho ngaha niho babikorera.

Ahantu bicara barimo barareba umupira w'amaguru uri kubera mu kibuga kihaherereye, mu gihe nawe ukunda kureba ukuntu bakinnyi umupira w'amaguru waza ukicara ukareba ni Kicukiro ku kigo cya ayipiyarasi.

Uru nguru ni urwunge rw'amashuri cyangwa se ikigo nderaburezi hariho abanyeshuri bagiye batandukanye bafite ibibuga byiza, iki ni ikibuga bakiniraho imikino y'intoki mu gihe bakeneye gukora imyidagaduro itandukanye.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Aha ngaha nukibona uzabonamo umuntu umeze nkaho afite imirimo ari gukora, uzamenya ko ahantu ugeze imbere hari gukorerwa imirimo.

Iki ni icyapa kiri mu ishusho ya mpandeshatu gifite umuzenguruko w'umutuku kikaba gifite ubuso bw'umweru ikirango cy'umukara aha barakubwira ngo ni udusozi turi mu muhanda kugirango ubone uko ugenda witeguye kandi ugenda witonze.

Ikingiki ni cyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, kikaba gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, kinyuzemo akarongo kaberamye k'umutuku. Kino nukigeraho kizaba kivuga, ati ubu bwoko bw'ibi binyabiziga, ntabwo bwemerewe kuhanyura.

Ibingibi ni ibyapa bitandukanye, ahangaha turareba icyapa cya mpandeshatu kigaragaza aho ibinyabiziga bibisikanira, tukareba n'icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira.

Ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Hakaba harimo n'abana babiri aha ngaha ni icyapa kikubwira ko aha ngaha hari ikigo cy'amashuri.

Icyapa gifite ishusho y'ingasire kikaba gifite umuzenguruko w'umukara ubuso bw'umuhondo n'ikirango cy'umukara, aha ngaha kirakubwira ngo aha ngaha ni ahantu hazengurutse.

Icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, kikaba gifite umuzenguruko utukura ndetse n'ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara kinyujijemo akarongo kaberamye k'umutuku, aha ni ho bakubwi ati "ibi binyabiziga niba hari icyo utwaye, ntabwo byemewe kuhahagarara."

Ahangaha hari ibyapa bikwereka ahantu uba ugeze mu gihe urimo uragenda baravuga bati urakaza neza muri Repubulika y'u Rwanda ahangaha uba ugeze mu karere ka Rusizi hano ni muri Nyungwe urimo urajya rusizi n'ahandi.

Ni icyapa uzahura nacyo utwaye ikinyabiziga ugiye mu ngeri zigiye zitandukanye, aho uzaba ubona ko mu muhanda urimo uragenderamo ibumoso hashamikiyeyo akandi gahanda gato gasanzwe.

Iki ni icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, kikaba gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara n'icy'umutuku. Hakaba harimo ibinyabiziga bibiri, kimwe gitukura ikindi cy'umukara, ahangaha barakubwira ngo ikinyabiziga cy'umukara ni cyo cyemewe kugenda.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko kikaba gifite umuzenguruko utukura w'ubuso bw'umweru ikirango cy'umukara kinyujijemo akarongo gatukura kaberamye, iki ngiki kirakubwira ngo iki kinyabiziga kirimo aho mu cyapa ntabwo kiba cyemewe guhagarara aha.

Umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru, iki ngiki kikwereka ko imbere ahantu uri hari inkomane banyuramo bazengurutse, aha hantu nuhagera uzamenye ko ugeze hano hari inkomane banyuramo bazengurutse.

Icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, kikagira umuzenguruko utukura, ndetse n'ubuso bw'ubururu, kikaba kirimo imirongo ibiri, imeze nk'ikimenyetso cyo gukuba, hano ntabwo hemerewe guhagararwa umwanya mu nini n'umuto.

Ufite ishusho y'ingasire kikaba ifite umuzenguruko wumukara numuzenguruko wumuhondo ubundi ubuso bwumuhondo ikirango cyumukara, ahangaha a amagambogambo aravuga ati niba ukigezeho genda gake; uba ugomba kugenda gake.

Icyapa uzahura na cyo gifite ubuso bumeze nk'icunga rihishije cyangwa se umuhondo, ibirango by'umukara ahangaha uba ureba ko mu muhanda urimo ugendamo imbere hari ifungana ry'umuhanda, umuhanda utagutse mutoya.

Iki ngiki ni icyapa kiri mu ishusho y'umuzenguruko kikaba gifite umuzenguruko utukura wubuso bwuubururu bunyujijemo imirongo imeze nk'ikimenyetso cyo gukuba, aha ngaha barakubwira ngo ntabwo byemeweye kuhahagarara umwanya munini n'umutoya.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, kikaba gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara kirimo mirongo itandatu, aha ngaha kirakubwira ngo ntabwo wemerewe kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu, kirabigutegeka.

Iki ni icyapa gifite umuzenguruko utukura, ndetse n'umweru kiba gifite ubuso bw'umutuku, ikirango cy'umweru, handitsemo amagambo. Aya magambo arakubwira ngo hagarara umwanya muto ubanze urebe niba nta byago. Ukabona gukomeza.

Inzu nziza ku buryo bugezweho tukaba tureba ibyuma bitwara insinga z'amashanyarazi muri ako gace kugira ngo amashanyarazi akomeze kugera kuri bose ndetse ahantu hose habeho hacanye kandi....

Aha ni mu Gihogere nanjye niho ntuye, aha ngaha ni ahantu heza ho gutura, hari amazu meza yubatse mu buryo bugezweho, amazu yo gukodesha, amazu yo kugura, ni ahantu heza wakishimira gutura.

Uyu ni umudugudu mwiza w'icyerekezo, urimo amazu meza y'iterambere kandi agezweho abereye u Rwanda, ku buryo tumaze kubona ko u Rwanda ruba rurushijeho gukomeza rutera imbere ndetse no kwagura ibikorwa bigiye bitandukanye.

Ibi ngibi ni ibipangu byiza, ushobora kuba waza kubamo by'iterambere, hari n'ahantu uzajya ushyira ibinyabiziga byawe, ubundi ugakoreramo ibikorwa byawe bitandukanye, waba wifuza cyangwa se waba warabashije gutekereza.

Uyu ni umudugudu mwiza w'icyerekezo urimo amazu meza agezweho yubatse ku buryo igihugu gikeneye, aha ngaha ukabibona ko u Rwanda rurushijeho kugenda rwaguka, kandi rugiye rukomeje kugenda rutera imbere uko bwije n'uko bukeye.

Hanga ahantutu ahantu heza ha ushobora kuba wasohokera uri kumwe n'inshuti zawe cyangwa se n'umukunzi wawe bakabatunganyiriza ikawa ku buryo bwiza bufite isuku kandi bunogeye ikawa nziza iryoshye ubu undi mukaganira.

Igipangu cyiza cyane kirimo inyubako nziza igezweho hashobora kuba ari inyubako yo kugurisha kabo waza ukayigura. Urabona ko ari ahantu hafite umutekano wizewe kandi hajyamo n'ikinyabiziga wahatura ukamera neza.

Hari inyubako nziza ifite igipangu cyiza cyo ku buryo bugezweho, tukabona harimo ubusitani bwiza buzana akayaga, mu gihe waba uri mu gipangu wiyicariye uri gukoresha za murandasi cyangwa se uri gufata akayaga.

Aha ngaha ni ahantu heza nyaburanga hari amazu y'icyerekezo cyangwa se umudugudu w'icyerekezo usa neza ufite amazu meza, u Rwanda rukaba rukomeje kugaragaza ko ari rwiza kandi rukeye.

Muri Nyungwe ni ahantu heza ushobora kuza gusura ukareba inyamaswa zigiye zitandukanye. Abantu bakunda gukora ubukerarugendo aha ngaha ni ahantu heza ho gukorera urwo rugendo rwawe ukareba ibyiza nyaburanga bitatse igihugu.

Iki ngiki ni kimwe mu gikorwa remezo cyiza kandi kinini cy'u Rwanda kikaba giherereye i Remera. Aha ngaha niho habera imyidagaduro haberamo ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye nawe wazaza ukahasura.

Iyi ngiyi ni nyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho ku buryo bw'iterambere, uramutse ushaka kuhagera ni ahantu wasanga ibikorwa remezo byiza bigiye bitandukanye, ahantu heza ho kuruhukira, ahantu heza ho gufatira amafunguro.

Ni umudugudu w'icyerekezo w'iterambere ahahaba ari ahantu harimo atera imbere urabona ko hari kujya amazu meza y'icyerekezo agezweho kandi abereye igihugu, aha ngaha ni ahantu ushobora kugura ikibanza nawe ukagenda ukahubaka.

Aha ngaha ni mu murenge wa Ndera turibusange ahantu harimo gutera imbere, hari amazu ajyanye n'igihe, ushobora kuba wagenda nawe ukahagura ubutaka ukahatura ni ahantu harimo gutera imbere.

Inyubako nziza yubatse ku buryo bw'iterambere yitwa Biza, ushobora gusanga ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye wakwifuza, cyangwa se nawe ukaza ugashoramo ugashyiramo ibindi bikorwa remezo byawe ugahanga udushya twawe.

Aha ngaha ni ahantu heza ushobora kuba wajya gutura, bahita ku Muvunyi, hari umuhanda muremure uzamuka ujya i Kabuga n'ahandi hagiye hatandukanye, aha ngaha ni ahantu h'iterambere kandi hari gutera imbere.

Ni ikinyabiziga cyitwa ipikipiki kiri kugendera mu muhanda ugiye utandukanye, imbere yaho hari amazu meza y'icyerekezo, amazu y'iterambere buri muntu wese yakifuza kuba yagura cyangwa se yakodesha.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, ibinyabiziga bitwara abantu bisanzwe, hakaba n'ibinyabiziga bitwara abantu bibajyanye mu ngendo zabo za buri munsi zigiye zitandukanye, amapikipiki n'ubundi bwoko bwinshi bw'ibinyabiziga.

Ibinyabiziga byinshi bitandukanye bijya mu tuzi twabyo tugiye dutandukanye, tukaba tureba igare, tukareba ikinyabiziga hano gitwara inyama, iki kinyabiziga gitwara inyama kikaba gifite ibikoresho byabugenewe, bituma cyemererwa gutwara inyama.

Mu umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi, by'ubwoko butandukanye, ibitwara abantu, amapikipiki ndetse n'ibinyabiziga bitwara imizigo myinshi, ku rwego ruhagije ushobora kuba wakenera ko bigutwara.

Ujya mu byerekezo bitandukanye irimo ibinyabiziga bitandukanye amapikipiki adufasha mu ngendo zacu za buri munsi ndetse n'ibinyabiziga abantu bagendamo bagiye mu kazi kabo ka buri munsi kagiye gatandukanye.

Iyi ngiyi ni imihanda igi itandukanye, umuhanda wo hejuru w'ikiraro cyambukiranya gikomeza ndetse n'imihanda yo munsi ikomeza ujya ahantu hagiye hatandukanye ku buryo ubona ko igihugu kiba cyarateye imbere gifite imihanda igiye itandukanye yo hejuru n'iyo hasi.

Imihanda igiye ijya hatandukanye, turebamo n'ibyapa bigiye bitandukanye, tukaba tureba ahantu hari imirongo abanyamaguru bambikiranyirizamo umuhanda, iyo uhageze umunyamaguru arimo arambuka cyangwa yiteguye kwambuka, ugomba guhagarara akabanza agasoza kwambukiranya.

Iki ni icyapa gifite ishusho y'ubukiramende, kikaba kitwereka ko imbere hari ikiraro, ikiraro kijya mu mujyi, munsi ya hakanyuramo amamodoka ibinyabiziga bijya Nyabugogo, iki ngiki ni kiraro cyiza cy'u Rwanda, ikiraro gikomeye wanyura.

Uyu ni umuhanda mwiza ugezweho wubatse ku buryo bw'iterambere, hakaba hanyuramo ibinyabiziga by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, tukaba tureba imirongo abanyamaguru banyuramo bambukiranya umuhanda, ugeze hano ugasanga abanyamaguru, urabanza ugahagarara bakambuka.

Imihanda itandukanye ijya mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu hari ijya mu mujyi n'ijya ahandi hantu hagiye hatandukanye, tukaba tubona imirongo yera abanyamaguru bambukiranyirizamo umuhanda, mu gihe hageze umunyamaguru yiteguye kwambuka cyangwa ari kwambuka ugomba guhagarara.

Uyunguyu ni umuhanda mwiza uri guca munsi y'ikiraro urimo ibinyabiziga bitandukanye amapikipiki atwara abagenzi ibinyabiziga bindi bitwara abantu bidufasha mu ngendo zacu za buri munsi.

Uyu nguyu ni umuhanda tukaba tureba naho abanyamaguru bambukiranyiriza umuhanda hari hakaba harimo amatara ndanga kugenda mbere no kugenda inyuma hariya harimo itara ry'ibara ry'icyatsi harimo abanyamaguru kuko nibo bemerewe kugenda.

Imihanda myinshi injya ahantu hatandukanye twareba ikinyabiziga gitwara abantu kirimo kiragenda imbere yaho hari aho abanyamaguru bambukira, mugihe haba hari umunyamaguru witeguye kwambuka uba ugomba kugenda gake ugahagarara kugira ngo yambuke.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye iriri mu mujyi wa Kigali tukaba tureba irimo ibinyabiziga byinshi bidafata mu ngendo zitandukanye tu ukareba n'ahantu abanyamaguru bambukira ugera bikagusaba kugenda kwigenda gake cyangwa se ugahagarara.

Uyu nguyu ni umuhanda, ihuriro ry'imihanda itandukanye, tukaba tureba amapikipiki atwaye abagenzi abajyanye ahantu hagiye hatandukanye, bagiye gukora gahunda zabo, bitewe n'izo ari zo zituma babasha kwiteza imbere.

Uyu ni muhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, amapikipiki adufasha gutwara abagenzi ndetse n'amagare na yo atwara abagenzi, akaba ari umuhanda wa ka na ga gatandatu, umunani umunani, kugirango habeho uburyo bwo kumenya neza ahantu ugiye uherereye uba uri.

Igiye itandukanye, ijya ahantu hatandukanye tukaba turebamo ikinyabiziga k'ipikipiki, tukaba tureba ahantu abanyamaguru bambukira, igihe cyose ugeze aho abanyamaguru bambukira, ukabona umunyamaguru witeguye kwambuka banza uhagarare yambuke, ubundi ugende nyuma.

Iri ngiri ni ihururiro ry'imihanda myinshi, igiye itandukanye harimo ibinyabiziga bitandukanye twaba tureba kinyamitende itafashasha gutwara imizigo ivaahantu hamwe ijya ahandi ndetse ni ibinyabiziga tugendamo mu ngendo zacu za buri munsi n'amapikipiki.

Iki ngiki ni ikiraro cyiza gikomeye cyubatse ku buryo bugezweho, cyambukiranya ujya mu mujyi n'ahandi hatandukanye, uca munsi ukomeza ujya Nyabugogo, harimo ibinyabiziga ipikipiki, ndetse n'igare, bidufasha mu ngendo za buri munsi.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'pikipiki, ipikipiki idufasha mu ngendo zacu za buri munsi, aho twaba tugava n'aho twaba tujya, tubyuka tujya mu kazi, cyangwa se tujya gusura inshuti zacu, ipikipiki ni ikinyabiziga kidufasha mu ngendo.

Ihuriro ry'imihanda myinshi igiye itandukanye, ijya za Sonatibe, ikomeza mu Mujyi, ijya za kwa Gitwaza n'ahandi hantu henshi, tukaba tubona amatara ndanga kugenda mbere no kugenda nyuma, yo aho tureba akaba acanye icyatsi, harimo abanyamaguru akaba aribo baba bemerewe kugenda, ibinyabiziga bigahagarara.

Iyi ngiyi ni imihanda igiye itandukanye ijya mu ngeri zitandukanye, tukaba tureba umuhanda uri munsi y'ikiraro kijya Kicukiro, aha ni Kicukiro hagati na hagati usanga imihanda myiza n'amazu meza n'ibikorwa byiza bigezweho.